Umuntu w'igitsina gabo, wambaye ipantaro y'umukara, umukandara w'umukara afite injerekani y'umuhondo ahagaze ku iriba ririho amavomero abiri amaze kuvoma ari guseka, iruhande rwe hari ibyatsi.

Abantu batandukanye bitabiriye inama uyoboye ibiganiro n'abasangiza b'ibiganiro bicaye imbere harimo umuntu wambaye ikanzu y'umutuku, umukobwa wambaye umupira utukura n'amakote k'umukara n'umupapa wambaye ikositimu bayoboye ikiganiro.

Abantu babiri bahagaze, umugabo n'umugore, umugore yambaye agapira w'umuhondo, akenyeye igitenge, umugabo yambaye umupira wa rakosite, yambaye n'itaburiya y'ubururu, ari kwereka igishushanyo umugore, kiriho umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu.

Icyumba cy'ubuvuzi harimo abantu batandukanye abaganga, n'abarwayi baje kwivuza. Harimo umubyeyi yabasha kuvuza umwana urwaye abaganga bari kumufasha ku kuvura umwana bamuha n'imiti itandukanye.

Ababyeyi batandukanye bafite abana benshi, harimo umuganga w'umugabo, wambaye agapfukamanywa n'itabiriya y'umweru, ari kugenda apima abana, ava kuri umwe ajya ku wundi, aho bose bicaye bategereje ko babafasha.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, yambaye n'umukandara w'umukara yambaye ishati irimo amabara atandukanye afite uruhara ari guseka amaze kuvoma ku iriba afashe ku njerekani y'umuhondo inyuma ye hari ibyatsi.

Igishushanyo mbonera cyerekanwe, ikigo cy' ubwishingizi gishinzwe kugezaza amazi ku baturage hba mu byaro ndetse no mu mujyi ku baturage bose tubagezaho amazi ku gihe.

Mu bantu batandukanye abagabo, abagore bafite amatelefoni mu ntoki bafite n'ibikapu bafite n'amakayi harimo uwambaye amarineti wambaye ikanzu y'umutuku barahagaze bari gufata ifoto.

Abantu batandukanye abasore, inkumi, bambaye imipira y'ubururu bose iriho ikirango, bambaye n'amapantaro y'umukara abenshi, hagati yabo harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari we muyobozi wabo.

Abantu batandukanye, abagore, abagabo, bamwe baricaye, abandi bahagaze inyuma, bahagaze bari gufata ifoto, inyuma yabo hari ikirango, bicaye ku ntebe zitukura...

Umuntu wijimye mu amasoso, mu maso yarakaye cyane, amasoso yatukuye, afite agahinda kenshi, yanaririze aratekereza ibitekerezo byinshi.

Umugabo uhagaze yambaye umupira w'umweru, ni nzobe ari guseka, afite ubwanwa, yambaye amarinete.

Mu kanwa h'umuntu harimo amenyo harimo amenyo y'umuhondo menshi harimo n'iryinyo rimwe ry'umweru akaboko gafashe icyuma cyakuye iryinyo mu kanwa k'umuntu.

Umubyeyi w'umugorembaye isengeri y'umweru n'umwana wambaye isengeri y'umweru, bafite imisatsi bafite uburoso bashyizeho umuti wo koza amenyo, biteguye koza amenyo.

Abantu bari kumeza bari gufungura hariho amasahani .hariho ibirahure bari kurya ibiryo bitandukanye, imboga inyama barishimye bari guseka iruhande rwabo hari televiziyo.

Abantu babiri umusaza n'umudamu umudamu arigusuka ji mu kirahure kumeza hariho pome hariho ibirahure hariho n'amasahani umusaza afite ikiyiko yambaye umupira w'umweru umumama wambaye umupira w'umweru n'itabuririya.

Abantu babiri bicaye mu ntebe, umusaza yambaye umupira wa rakosite, yambaye ipantaro, umukobwa yambaye ikanzu y'ubururu afite n'imisatsi, bari kumushyira ikintu cy'umwenda ku kaboko.

Umubyeyi w'igitsina gore usheshe akanguhe ari kumwe n'umukobwa bicaye ku meza bahuje urugwiro, umukobwa afite isane, umubyeyi afite ibiribwa ari gutegura harimo inyanya, imboga, karoti n'ibindi bitandukanye.

Umukobwa yicaye arambije amaguru amaboko yafatishije udutsinsino ari muri siporo, yicaye kuri tapi, afite imisatsi ishumikiye hejuru, iruhande rwe hari ibyatsi.

Umusaza urwaye wicaye kugitanda, ari gufashwa guhaguruka n'umukobwa ufite imisatsi y'ishumitiye inyuma imanuka. Igitanda kiriho supaneti, gisasheho n'amashuka menshi.

Abantu babiri bari kuganira umusaza n'umumama bicaye ku meza umusaza ari kwereka ifoto muri terefoni umumama bari kumwe, nawe ari kwitegerezamo cyane.

Abagabo babiri bambaye amakositimu y'ubururu, umwe yambaye karuvati y'umukara n'undi yambaye karuvati y'ubururu, umwe yambaye amarineti, undi nago ayambaye, bafite ibitabo, bari gusuhuzanya, inyuma yabo hari ikirango.

Abakobwa babiri n'abasore batanu bahagaze bari gufata ifoto, buri wese yambaye ikirango mu gatuza kerekana ibyo ashinzwe gukora, inyuma yabo hari ibishushanyo mbonera byerekana ibyo abantu bakora.

Inyubako yo kwa muganga aho ababyeyi babyarira, harimo ibitanda, harimo amashuka y'ubururu, amashuka y'umweru, harimo abana harimo ibikapu, harimo teremunsi, harimo amadirishya.

Mu cyumba cy'ubuvuzi, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, harimo mudasobwa icometse ku migozi igiye itandukanye, n'ibindi bikoresho bifashisha iyo bari kuvura.

Icyumba cy'ubuvuzi aho harimo abantu batatu batandukanye barimo umurwayi wambaye agakanzu k'igitenge, uryamye ku gitanda bari kumuvura, ari abaganga babiri umudamu, ndetse n'umugabo.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye imigozi icometse ibyo bikoresho kugira ngo bikomeze gukora neza; harimo mashini, hakabamo televiziyo iri kwerekana amashusho agiye atandukanye.

Inyubako bavuriramo yubatse mu buryo butandukanye, aho hari aho bakirira abantu benshi, iruhande rwo ruguru hari inyubako ndende, iruhande rwo hepfo hari inyubako ngufi, zose bazikoreramo ubufasha bwo kwakira abantu baje kwivuza.

Umuntu wunamye kwikanda imiti n'amaboko yombi avuye muri siporo yambaye ikabutura ya siporo yambaye n'isaha ku ukuboko byose by'umukara umutwe ntabwo uri kugaragara neza yavunitse ari kwikanda.

Umukobwa, uhagaze, arimo kunywa amazi, amazi ari mu icupa, yambaye kuteri mu matwi, bambaye agasengeri k'ubururu afite imisatsi ishamikiye inyuma.

Abana batandukanye, abakobwa, abahungu, abenshi bambaye imyenda ya siporo, bari mu myitozo ngororamubiri igiye itandukanye, bari kumwe n'umutoza wabo wambaye umupira w'umweru, bari kubafasha gukora siporo.

Umukobwa wambaye inkweto za siporo, ipantaro ya siporo n'agapira byose bya siporo, yicaye hasi yafashe akaboko agashyira ku kuguru arimo aragorora ingingo.

Icyumba cyahariwe siporo aho hakorerwamo imyitozo igiye itandukanye, haba harimo ibyuma bitandukanye bibafasha gukora siporo neza ku bashaka kujyayo bose.

Umuntu upfukamye hasi ari kwikanda mu ivi n'amaboko abiri, yambaye imyenda ya siporo, yambaye inkweto za siporo n'amasogisi, umutwe we ntago uri kugaragara neza, afite n'ubwanwa.

Umugabo munini uhagaze ari muri siporo ngororamubiri, afunze igipfunsi, yambaye isengeri y'umweru, afite ubwanwa, mu maso ye ntabwo hagaragara neza.

Umuntu w'igitsina gore uri gukora siporo yambaye ipantato ya siporo n'agasengeri k'umukara ko hejuru, yambaye inkweto z'umweru, amaboko yose yayafatishije akaguru k'iburyo.

Amacupa abiri atandukanye arimo, amavuta y'ubwoko butandukanye, n'amashusho y'abantu batandukanye b'igitsina gabo n'igitsina gore, bagaragaje amasura berekana ko amavuta yabahinduye uruhu.

Icupa rirerire ry'ubururu, ririmo amavuta yo kwisiga, rifite umupfundikizo w'ubururu, ririho akarango k'umweru inyuma ku icupa.

Ibirango biriho imiti itandukanye, ikiza indwara z'amahumane, ivura umugongo, ivura mu bitugu, ivura no ku kaboko ndetse no mu ijosi.

Umuntu uhagaze mu cyumba runaka, wambaye ishati y'umweru, afite icupa rinini rifite umufundikizo w'ubururu, iruhande rwe hari imiti itandukanye ya kinyarwanda y'ubuvuzi.

Ubutaka bugari buteyeho imiti ya kinyarwanda irimo amoko y'imiravumba, imibirizi itohagiye igiye itandukanye, imwe iri muri metero imwe, iy’indi iri muy’indi metero, bimeze neza.